Abantu batanu bicaye ku ntebe, imbere yaho hari ameza atwikirije igitambaro cy'umweru, hejuru hateretseho uducupa tw'amazi, bamwe bari kwandika kandi bicaye mu nzu ifite irangi ry'umuhondo.

Abakozi bakora muri serivisi z'ubuzima cyane cyane abatanga ubutabazi bwihutirwa, bafasha abantu bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kuba bagezezwa kwa muganga bityo babashe gukurikiranwa bavurwe.

Inzobere mu buvuzi, bifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha, kugira ngo babashe kuba basuzuma, kandi bavure indwara zitandukanye. Bimwe muri ibyo bikoresho twavuga mudasobwa ndetse n'imyambaro bambara, kugira ngo bikingire.

Abakozi bakora muri serivisi zijyanye no gutanga ubutabazi bwihutirwa, babasha gusuzuma abantu baba bagiye bagira ibibazo bitandukanye, ikindi kandi babaha imiti igiye itandukanye kugira ngo babashe kuba babafasha.

Abakorerabushake batanga serivisi z'ubuvuzi zihutirwa, bafasha abagize ibibazo bigiye bitandukanye kuba bagezwa kwa muganga, ikindi kandi bafasha abantu bagiye batandukanye kuba babasha kuba babona imiti kugira ngo babashe kuba bakira indwara zigiye zitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bigira ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga, imyambaro ndetse n'izindi mashini zitandukanye, zifashishwa kugira ngo basuzume kandi bavure indwara.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bifasha abaturarwanda kuba babafasha mu gihe bagize ibibazo bitandukanye by'ubuzima, byumwihariko aba barakomeretse ndetse n'abagize ibikomere bitandukanye by'umubiri, baba bagomba kugana aya mavuriro kugira ngo babashe kuba babafasha.

Abakozi batandukanye bakora mu bigo bitanga serivisi z'ubuvuzi, banezezwa nuko imirimo bakora ishobora kurengera abaturage kuko babafasha kuba bakira indwara zitandukanye, ikindi kandi bagira inama abarwayi kugira ngo babashe kuba bakirinda indwara zigiye zitandukanye.

Abakozi bakora mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, bagatanga amahugurwa kandi bagatanga n'inama ku bigana, k'uburyo baba bagomba kwirinda indwara zitandukanye. Ikindi kandi bagira ibikoresho bitandukanye bifashisha kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi. Bimwe muri ibyo bikoresho twavuga ameza, intebe, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bagira abaganga b'inzobere, bakoresha ibikoresho bitandukanye kugira ngo bafashe abarwayi baza babigana, kubona serivisi bakeneye bityo kugira ngo babashe kubaho bafite ubuzima bwiza.

Ibigo bitanga serivise z'ubuvuzi bikoresha ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kuba basuzuma kandi babashe kuba bavura indwara zitandukanye bimwe muri ibyo bikoresho twavuga mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga bifashisha.

Ibigo bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi bigira ibikorwaremezo bitandukanye, birimo inyubako ikindi kandi izo nyubako zikaba zifite imihanda ndetse n'indabo, zishobora kuba zagaragaza ubwiza bw'ibyo bitaro.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bagira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi. Bimwe muri ibyo bikoresho twavuga intebe zo kwicaraho, ameza ndetse n'imiti y'ubwoko butandukanye ,yifashishwa kugira ngo ibe yavura abarwayi.

Abaganga ndetse n'abaforomo bifashisha ibikoresho bitandukanye mu gusuzuma ndetse no kuvura indwara zitandukanye, bityo kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kugana ibi bigo by'amavuriro kugira ngo babashe kuba batuvura kandi badukingire indwara.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima ,birimo amavuriro ndetse n'ibitaro bifasha ababigana kugira ngo bahabwe serivisi nziza. Ikindi kandi bita ku bagore batwite kugira ngo babashe kuba babyara, bifashishije ibikoresho bigiye bitandukanye.

Abakozi bakora muri serivisi z'ubuzima bakaba bicaye hamwe bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye ikindi kandi imbere yabo hakaba hari ibikoresho bitandukanye barimo bifashisha bityo kugira ngo babashe kuba banoza neza inama barimo.

Abaganga bakora muri serivisi zijyanye n'ubuvuzi bifashisha ibimera bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kuba bakora imiti ikindi kandi ibimera byifashishwa mu gukora imiti ishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye kugira ngo babashe kuba barengera ubuzima bw'abaturarwanda.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuvuzi, twavuga ibigon nderabuzima ndetse n'ibitaro, bifasha abaturarwanda kuba babona ubujyanama ndetse n'imiti ku burwayi bugiye butandukanye, ni byiza ko mu gihe dufite ibibazo bitandukanye tuba tugomba kugana aya mavuriro ndetse n'ibitaro kugira ngo babashe kuba baduha imiti kandi batugire inama.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, abantu batandukanye babigana kugira ngo babashe kuba bahabwa serivisi zitandukanye z'ubuzima. ikindi kandi ibi bigo bigomba kuba bifite isuku, bifite n'ibikorwaremezo bitandukanye kugira ngo bibashe kuba byatanga serivisi nziza kuza babigana.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuvuzi biganwa n'abantu benshi bityo biba bigomba kuba bifite ibikorwa remezo, birimo inyubako zitandukanye ndetse n'ubusitani bufasha abaje kuri ibyo bigo kugira ngo babashe kuba bakisanzura.

Abaganga bakora mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, banezezwa n'uko abakiliya babagana babasha kubona imiti, ikindi kandi babasha kubafasha mu kubona imiti igiye itandukanye, kugira ngo babashe kwirinda kandi bivuze indwara zitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga, babikoresha kugirango bashe kuba badusuzuma kandi batuvure indwara zigiye zitandukanye. Ni byiza ko dusobanukirwa akamaro ko kuba twajya kwa muganga mu gihe dufite ibibazo by'ubuzima bitandukanye, kuko abaganga bifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo babashe kuba badusuzuma kandi batuvure.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bigira abaganga b'inzobere bavura abarwayi ikindi kandi bakaba bafite ibikoresho bitandukanye, birimo intebe, ibitanda, ameza ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashisha mu gutanga serivisi nziza ku barwayi.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuzima zigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga ibitanda, intebe zo kwicaraho ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi.

Abayobozi bakora muri serivisi zijyanye n'ubuzima, bakangurira buri muturarwanda wese kuba bagana ibyo bigo, kugira ngo babashe kuba bagirwa inama, ikindi kandi bahabwe n'ubuvuzi ku ndwara zigiye zitandukanye, bityo babeho bafite ubuzima bwiza.

Inzego z'umutekano ndetse n'iz'ubuzima zihuriza hamwe abaturarwanda kugira ngo babagire inama kandi babakangurire kuba bakirinda indwara zitandukanye, ikindi kandi izi nzego zikangurira abaturarwanda gusobanukirwa akamaro ko kuba bakicungira umutekano ndetse bakarengera ubuzima bwabo.

Abajyanama b'ubuzima bicaye bari kwandika, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'umweru, hejuru hirya yabo hari icyapa cyanditseho ngo irinde virusi itera SIDA.

Inzego zitanga serivisi z'ubuvuzi twavuga: ibigo nderabuzima ndetse n'ibitaro, bifasha abaturarwanda kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko mu gihe twumvise dufite ubuzima butagenda neza, tuba tugomba kugana ibi bigo kugira ngo bibashe kuba byakita ku buzima bwacu.

Abatanga serivisi z'ubuzima bakangurira ababyeyi kuba bagomba kujyana abana kwa muganga kugira ngo bakingire kandi babasuzume indwara zitandukanye bityo babashe kuba babafasha kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gusuzumisha abana.

Ababyeyi bagana ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, banezezwa no kuba bafite ibigo nderabuzima ndetse n'amavuriro bibafasha kugira ngo bakingize abana, ikindi kandi bibafasha kugira ngo babe bavurwa indwara zigiye zitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bigira abaganga b'inzobere bavura indwara zitandukanye bakaba bifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi bityo bakire indwara.

Ababyeyi bagiye ku kigo nderabuzima bakaba bafite ibyangombwa bitandukanye bitwaje ikindi kandi hakaba hari ababyeyi bahetse abana, hagati yabo hakaba hari umuganga uri kwegeranya ibyo byangombwa bagiye bitwaje.

Abantu bicaye mu nyubako zitanga serivisi z'ubuvuzi bakaba bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari umuntu ubaganiriza ndetse n'undi mujyanama w'ubuzima, hirya hakaba hari amashusho y'ibyapa agaragaza ubutumwa butandukanye.

Abakozi bakora muri serivisi z'ubuzima bagira ibikoresho bitandukanye, bifashisha kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi. Bimwe muri ibyo bikoresho twavuga mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bifashisha kugira ngo babashe kuba babika amakuru y'abarwayi.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuvuzi byifashisha ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kuba basuzuma kandi bavure uburwayi bugiye butandukanye, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga inshinge ndetse n'ibindi bikoresho abaganga bifashisha kugira ngo bikingire bo ubwabo mu gihe batanga izi serivisi z'ubuzima.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bigira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo basuzume kandi bashake imiti ishobora kuvura uburwayi bugiye bitandukanye. Bityo abarwayi babashe kuba bavurwa indwara.

Abakora mu nzego z'ubuzima bahurira hamwe kugira ngo bashake ibisubizo ku ndwara zigiye zitandukanye, aho bafata ibipimo ndetse bagasuzuma ubwandu bw'indwara zitandukanye kugira ngo babashe kuba bazishakira imiti bityo batange ibisubizo ku burwayi bugiye butandukanye.

Abaganga bakora mu nzego z'ubuzima bifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga imiti ndetse n'ibitabo n'imyambaro bambara kugira ngo birinde kuba bakandura bitewe n'iyo miti baba bari gukoresha.

Abaganga ndetse n'abaforomo, bifashisha ibikoresho bitandukanye mu gusuzuma ndetse no kuba babasha kuvura indwara zitandukanye kugira ngo babashe kuba babona imiti itandukanye ishobora kuvura abanyarwanda, bityo ngo babeho bafite ubuzima bwiza buzira indwara.

Abaganga bakora muri serivisi z'ubuzima bifashisha ibikoresho bitandukanye birimo imashini zabugenewe zibafasha kugira ngo babashe kuba basuzuma indwara ikindi kandi baba bambaye ibikoresho by'ubwirinzi bibafasha kugira ngo be kwandura indwara zitandukanye.

Mu nyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima hari ibyumba byabugenewe biba birimo ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gukora inkingo ndetse n'imiti kugira ngo babashe kuba bafasha abarwayi kubona imiti ndetse n'inkingo zigiye zitandukanye.

Inzobere mu buvuzi bifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo basuzume kandi babashe kuba batahura indwara zishobora kuba zabangamira abaturarwanda bityo babashe kuba bazisuzuma kandi bazishakire inkingo ku gihe.

Abakozi bakora muri serivisi zijyanye n'ubuzima, bafite ibikoresho bitandukanye bifashisha mu gutanga serivisi zabo kandi bakagira imiti itandukanye, aho bafasha kugira ngo abaturarwanda babeho bafite ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuvuzi, bagira ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga nk'imiti, amakayi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza ku bakiriya.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bigira inyubako zabugenewe aho haba hari ibikoresho byifashishwa mu gutunganya ndetse no gusuzuma imiti kugira ngo barebe niba yujuje ubuziranenge bityo ibe yatangwa ku bayikeneye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuvuzi, bigira ibyumba byabugene bifite ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kugira ngo batahure imiti iba ishobora kuba yavura indwara zigiye zitandukanye bityo babashe kuba bakingira kandi bavure uburwayi butandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bikangurira ababyeyi kwita ku bana babo, harimo kuba babakinisha mu gihe bari ku bonsa ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo umwana agire ubusabane hamwe n'umubyeyi.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuvuzi, bitangaza ko kuba bafite ibikoresho byifashishwa kugira ngo batange serivisi, twavuga nk'ibitanda, ndetse n'ibindi bikoresho, bibafasha kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi, bityo babashe kuba bakira kandi mu buryo bwiza.

Gukurikirana ubuzima bw'abana bato babaha ibyo bakeneyezima bwabo bwa buri munsi birimo indyo yuzuye, ni kimwe mu bibafasha kugira ngo bagire imikurire myiza, kuko bibafasha no gukura bafite igihagararo cyiza.

Abakozi bakora muri serivisi z'ubuzima, bafasha abana bakiri bato ndetse n'impinja kugira ngo babashe kuba basuzumwa, bityo bakurikirane ubuzima bwabo bw'imirire kugira ngo babashe kuba bareba niba abana bakura neza.

Ibigo bitandukanye bitanga serivise z'ubuzima bihuriza abaturage hamwe kugira ngo babashe kuba bakora ubukangurambaga ku bijyanye no kwirinda indwara zitandukanye, bityo abaturage bababeho bafite ubuzima bwiza buzira indwara zigiye zitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bikangurira ababyeyi gukingiza abana ndetse no kubasuzumisha indwara zigiye zitandukanye, kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kuba bwakurikiranwa bityo babeho bafite ubuzima bwiza.

Abana bicaye mu cyumba cy'ishuri bakaba bari kurya bari kumwe n'abarezi babo ikindi kandi gufatira amafunguro ku ishuri bifasha abana kugira ngo babashe kuba bakurikirana amasomo neza badafite inzara.

Abajyanama b'ubuzima bambaye imyambaro ibaranga bakaba bicaye mu murima urimo ubwatsi ikindi kandi hafi yaho hakaba hari umugabo uhagaze, wunamye bakaba bari kuganira ku ngingo zitandukanye.

Abajyanama mu by'ubuzima bakangurira abana bakiri bato cyane cyane mu bigo by'amashuri bakabahugura ku bijyanye n'uburwayi bugiye butandukanye, ikindi kandi babagira inama yo kwirinda indwara zigiye zitandukanye kugira ngo babeho bafite ubuzima bwiza.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bihuriza hamwe abantu kugira ngo babahe ubukangurambaga, ikindi kandi babagire inama ku buryo bagomba kwirinda indwara zitandukanye, ikindi kandi babaha n'amahugurwa ku bijyanye no kwirinda ndetse no kwivuza indwara.

Umujyanama w'ubuzima wambaye umupira w'umweru n'ubururu, akaba ari kuganiriza abantu ku bijyanye no kwirinda indwara zo mu mutwe, ikindi kandi bakaba abanyarwanda bakangurirwa uburyo butandukanye baba bashobora kwirinda izi ndwara.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, bihuriza hamwe abantu kugira babashe kuba baganira kandi bungurane ibitekerezo ku bintu biba bishobora kuba byafasha abantu, bityo kugira ngo babashe kubafatira imyanzuro hamwe kandi babashe kuba bakungurana ubwenge.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, gikangurira abaturarwanda kuba bakigana kugira ngo bajye bisuzumisha indwara zitandukanye. Ikindi kandi bashyiraho iminsi mpuzamahanga aho bahuriza abantu hamwe kugira ngo babashe kuba babagira inama kandi babahe amahugurwa ,ku ndwara zitandukanye.

Abayobozi mu nzego zitandukanye z'ubuzima bahurira hamwe kugira ngo bige ku bibazo bitandukanye bishobora kuba byakemura uburwayi bugiye butandukanye, ikindi kandi bashyiraho iminsi mpuzamahanga aho bahurira hamwe bakaba babasha kuganiriza abaturarwanda ku buryo butandukanye bwo kwirinda ndetse no kwivuza indwara zitandukanye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bikangurira abaturarwanda kwita ku ndwara zo mu mutwe aho bishyiraho ubukangurambaga, ikindi kandi bakanabasobanurira uburyo butandukanye bwo gukurikirana ubuzima bwabo kugira ngo babeho, bafite ubuzima bwiza.

Ikigo cy'igihugu Isange one stop center kikaba ari ikigo gifasha ababa bagize ibibazo by'ihohoterwa kugira ngo babashe kuba bahabwa ubutabera bityo babashe kuba bakemurirwa ibibazo baba bahuye nabyo.

Abatanga serivisi z'ubuvuzi batanga inama zitandukanye zijyanye n'ubuzima kugira ngo abaturarwanda babashe kuba babaho bafite ubuzima bwiza buzira indwara zitandukanye, ni byiza ko tuba tugomba kugana aya mavuriro kugira babashe kuba batugira inama ikindi kandi baduhe ubuvuzi.

Mu bigo by'amashuri bitandukanye hakorwa ubukangurambaga mu kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bitandukanye, bityo ni byiza ko buri muturarwanda wese asobanukirwa akamaro ko kwirinda ibiyobyabwenge kuko byangiza ubuzima bw'umuntu.

Abaganga bakora muri serivisi z'ubuvuzi by'umwihariko abacuruza mu mafarumasi ,banezezwa nuko imiti batanga ibasha gufasha abaturarwanda kugira ngo babashe kuba bakira indwara zitandukanye. Bityo babeho bafite ubuzima bwiza bazira indwara.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima birimo amafarumasi, acuruza ubwoko bw'imiti itandukanye, burimo ibinini ndetse n'ibindi bitandukanye, bifasha kugira ngo abaturarwanda babashe kuba bakivura indwara zitandukanye bityo babeho bafite ubuzima bwiza.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuvuzi cyane cyane inyubako zicuruza imiti, ni zimwe mu ziganwa n'abantu batandukanye baba bashaka imiti kugira ngo bivure indwara zitandukanye, ni byiza ko twese tuba tugomba kugana aya mavuriro kugira ngo abashe kuba badufasha mu bibazo bijyanye n'ubuzima.

Inyubako zicuruza imiti zifasha abantu kubona imiti igiye itandukanye, ibafasha kwivura bo ubwabo ndetse no kuvura amatungo, bityo bakabasha kuba bakiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Farumasi ni inyubako zitanga serivisi zo gutanga imiti ku bayikeneye by'umwihariko, hari farumasi zicuruza imiti y'amatungo, aho yifashishwa kugira ngo babashe kuba bakingira kandi bavure amatungo.

Abatanga serivisi z'ubuvuzi, cyane cyane abacuruza imiti, banezezwa n'uko serivisi batanga zibasha kubona abakiriya, bityo bakaba babona amafaranga. ikindi kandi banezezwa n'uko barengera ubuzima butandukanye bw'abaturarwanda aho babarinda indwara zitandukanye.

Inyubako zitanga serivisi z'ubuzima, zirimo amafarumasi ndetse n'ibindi bigo bitandukanye, bagira ibikoresho bitandukanye bifasha kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi, ikindi kandi bafasha abarwayi kubona imiti kugira ngo babashe kuba bakira uburwayi butandukanye.

Inyubako zitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuzima, aho amafarumasi afasha abantu kubona ubwoko bw'imiti igiye itandukanye, kugira ngo babashe kwivura indwara bikaba byarafashije abanyarwanda kubaho bafite ubuzima bwiza.

Mu bice bitandukanye by'igihugu, hagaragara inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima, cyane cyane inzu zicuruza imiti, aho abaturarwanda bazigana kugira bashe kuba babona imiti itandukanye, ibafasha kugira ngo bivure indwara zijye zitandukanye.

Amahuriro yagiye atandukanye ahurizaha hamwe urubyiruko ndetse n'abakuze kugira ngo babaganirize ku buryo bagomba kwirinda indwara zitandukanye byabafashije kugira ngo babashe kuba bakirinda kuko bagirwa inama kandi bagabwa n'amahugurwagiye atandukanye ku bijyanye n'ubuzima.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, bigira ubukangurambaga butandukanye mu gukoresha udukingirizo, aho bakangurira abantu kugira ngo babashe kuba basobanukirwa akamaro ko gukoresha agakingirizo mu buryo bukwiriye.

Abayobozi mu nzego z'umutekano ndetse n'iz'ubuzima bahurira hamwe kugira ngo bashake ibisubizo ku ndwara ziba zarananiranye bityo zibashe kuba zabonerwa imiti, ikindi kandi aya mahuriro hafatirwayo imyanzuro igiye itandukanye kugira ngo bakemure ibibazo byugarije abaturarwanda.

Ibigo bitanga serivisi z'imikino y'amahirwe, bikangurira abakora iyo mikino kujya bakina mu rugero, ikindi kandi bakirinda kugira ngo babashe kuba bagira umutekano mu mikinire yabo.

Abantu benshi bicaye mu nyubako ifite ibara ry'icyatsi kibisi bicaye, imbere yabo ku meza hari uducupa turimo amazi ikindi kandi umwe uhagaze ari kubabwira akoresheje mikorofone.

Amavomero rusange afasha abaturarwanda kubona amazi bakeneye bityo kugira ngo babashe kuba bakora amasuku bityo birinde indwara zitandukanye, zishobora kuba zaterwa n'umwanda. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kubungabunga amavomero rusange.

Inzego z'ubuzima zihuriza hamwe urubyiruko kugira ngo babasobanurire ku buryo baba bagomba kwirinda indwara zigiye zitandukanye, ikindi kandi bahabwa amahugurwa ashobora kuba yabafasha kugira ngo babashe kuba basobanukirwa akamaro ko kwisuzumisha ndetse no kwivuza indwara zigiye zitandukanye.

Abakozi bakora muri serivisi z'ubuzima bafata umwanya bagakangurira abantu, kwirinda indwara zigiye zitandukanye, aho babaha inama ndetse n'amahugurwa, kugira ngo basobanukirwe neza akamaro ko kwirinda ndetse no kwisuzumisha indwara.

Abakozi bakora mu nzego z'ubuzima bari kumwe n'inzego z'umutekano, bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kuba bavura indwara zitandukanye, kandi babashe no kuba bakingira indwara zigiye zitandukanye.

Abakozi bakora muri serivisi z'ubuzima, bahuriza hamwe abantu bakabaha amahugurwa, kandi bakabagira inama ku buryo baba bagomba gukora ibikorwa bitandukanye bibafasha kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko kwitabira izi nama ndetse n'aya mahugurwa.

Indwara y'ise ni indwara y'uruhu ibangamira umuntu uyirwaye, ikindi kandi iyi ndwara ikaba ishobora kuvurwa n'imiti itandukanye gakondo, aho umuntu urwaye iyi ndwara y'ise ashobora gukira.

Uburyo butandukanye bwifashishwa mu kugorora imibiri yacu irimo kuba bakandira umuntu kugira ngo abashe kuba yakira imvune zitandukanye byifashishwa kugira ngo abantu babe bagirira neza imibiri yabo bityo birinde indwara zitandukanye.

Abanyarwanda bashishikarizwa cyane gukoresha ibimera bigiye bitandukanye mu gukora imiti ishobora kubavura indwara zigiye zitandukanye. Bimwe muri ibyo bimera twavuga nk'imbuto ndetse n'impeke zigiye zitandukanye zifashishwa kugira ngo zibe zavanwamo imiti ishobora kuvura indwara zitandukanye.

Mu Rwanda twifashisha imbuto ndetse n'ibindi bimera bitandukanye mu kugira ngo dukore imiti gakondo, aho tuba dushobora kwivura indwara zigiye zitandukanye, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gukoresha ibimera ndetse n'imbuto kugira ngo twivure indwara zigiye zitandukanye.

Ubwoko butandukanye bw'ibimera bwifashishwa kugira ngo habashe kuba havurwa indwara zitandukanye bityo abantu babashe kuba bakira uburwayi bugiye butandukanye, ibimera bimwe na bimwe bifasha kugira ngo bikorwemo imiti gakondo ishobora kuvura indwara zitandukanye.

Abavuzi gakondo ni abantu bifashishwa mu kuvura indwara zananiranye cyane cyane iz'imyuka mibi. Aba bavuzi bifashisha ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kuba bavura izi indwara, ikindi kandi aba bavuzi gakondo bashobora kuba bavura indwara zananiranye, zirimo nk'amarozi ndetse n'izindi.

Umuravumba ni ubwoko bw'ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ikindi kandi kikaba kibarizwa mu miti gakondo aho gishobora kuvura indwara zirimo inzoka ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Umubyeyi wicaye ari gutunganya ubwoko bw'imiti gakondo itandukanye, yifashishije ibikoresho bigiye bitandukanye, birimo agacupa karimo imiti itandukanye, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye yifashisha kugira ngo abashe kuba yakora iyo miti.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuvuzi, bifashisha ibikoresho ndetse n'imiti igiye itandukanye, ibafasha kugira ngo babashe kuba bakwita ku barwayi. Ikindi kandi iyi miti ibafasha kugira ngo bavure indwara zigiye zitandukanye.

Mu bice bitandukanye by'igihugu hagaragara ibikorwa remezo bitandukanye, cyane cyane ibitanga serivisi z'ubuvuzi, aho usanga hagira imihanda ndetse n'ibindi bikorwaremezo bitandukanye bifasha ababigana, kugira ngo bahagere nta mbogamizi.

Umuganga uri gusuzuma umuntu. ikindi kandi akaba yicaye imbere ye hakaba hari ibikoresho bitandukanye ari kwifashisha ndetse n'ibindi bimufasha kugira ngo abashe kuba yasuzuma uwo murwayi waje umugana.

Abakozi bakora muri serivisi z'ubuzima bakaba bambaye imyambaro ibaranga, ikindi kandi bakaba bafite udukapu ndetse n'utwa mverope turimo ibintu bigiye bitandukanye bigaragara ko ari impano bari gushyikirizwa.

Abakora mu nzego z'ubuzima banezezwa n'uko abakiya baza babagana babasha kubona serivisi nziza kuko baba bafite ibikoresho bitandukanye birimo imiti, bityo bakabasha kugeza serivisi nziza ku bakiriya bityo bakabasha kwiteza imbere.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuzima bikangurira ababigana ikindi kandi babaha amahugurwa agiye atandukanye ku bijyanye n'uburyo bakoresha imiti igiye itandukanye kugira ngo babashe kwikingira kandi bivure n'indwara zitandukanye.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima, bigira ibikoresho bitandukanye bifashisha kugira ngo batange izo serivisi, ikindi kandi ba hamwe kugira ngo babashe kuba babasha gusuzuma no gutahura, imiti ishobora kuba yafasha mu gukingira indwara zigiye zitandukanye.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima. Bifashisha ibikoresho bitandukanye birimo imiti ndetse n'ubundi bwoko butandukanye bw'imiti kugira ngo babashe kuba bafasha ababigana kubona serivisi nziza. Ikindi kandi tuba tugomba kugana aya mavuriro kugira ngo tubashe kuba twarengera ubuzima bwacu.

Abakozi bakora muri serivisi zijyanye n'ubuzima, bifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha kugira ngo batange serivisi nziza kubaza babagana, bimwe muri ibyo bikoresho twavuga imiti, ndetse n'imyambaro itandukanye bambara kugira ngo na bo babashe kuba bakirinda.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima bigira kandagira ukarabe zifasha ababigana kugira ngo babashe kuba bakaraba intoki bityo babashe kuba bakirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abajyanama b'ubuzima bahurira hamwe kugira ngo bigishwe kandi bahabwe amahugurwa agiye atandukanye ku buryo baba bagomba gutanga serivisi nziza, ikindi kandi ibi bigo bitanga serivisi z'ubuzima bikangurira abantu bose kubigana kugira ngo bibashe kuba byabafasha.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuvuzi, bikangurira abaturarwanda bose kubigana kuko bashobora kuba babafasha bakabakingira, kandi bakabagira inama ku buzima, bityo bakababaho bafite ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibigo bitanga serivisi z'ubuvuzi twavuga ibigo nderabuzima, abakora muri ibyo bigo bifashisha ibikoresho bitandukanye biririmo mudasobwa aho babasha kwegeranya amakuru y'abaza babigana, muri iki cyumba hari umuganga uri imbere ya mudasobwa ikindi kandi akaba ari kumwe n'umubyeyi uteruye umwana.

Ibigo bitandukanye bitanga serivisi z'ubuzima byifashisha ikoranabuhanga kugira ngo batange serivisi nziza ku barwayi, aho babasha kuba babasuzuma ndetse bakabavura n'indwara bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyapa kigaragaza ikigo nderabuzima cya Nyagatare ikindi kandi hirya y'icyo cyapa haragaragara ikindi cyapa kigaragaza ubwishingizi bukoreshwa kuri icyo kigo nderabuzima.